Umuntu uhagaze mu murima urimo inyanya, arimo gutera umuti, yambaye ino saka sipureya idufasha gutwara umuti mugihe bari kuwutera mu bihingwa.

Umuntu uhetse inabusake sipureya, arimo aratera umuti mu mashu, yambaye ipantaro ya siporo, umupira w'umweru, ndetse iyo inabusake sipureya, ikaba isa umuhondo.

Umuntu ufite akantu k'umweru asa n'uri kuminjira ibiryo by'amafi mu cyuzi, ari hagati y'ibyuzi bitandukanye byose bikaba bibitse amafi; uwo muntu yambaye umupira w'icyatsi, uriho uturongo tw'icyatsi ku rutugu n'ibara ry'umweru, yambaye bote z'umuhondo.

Abantu babiri umugabo n'umugore bari mu cyayi barimo kugisarura, umugore ahetse igitebo kimufasha gutwara umusaruro basaruye mu cyayi, umugabo yambaye ingofero itukura, ikote ritukura ndetse n'itaburiya, umugore na we afite icyayi mu ntoki, yambaye ishati atereye n'igitambaro mu mutwe.

Amacupa menshi afite ibara ry'umutuku, upfundikije umufuniko w'umweru, arimo imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo, iyo miti ikaba ari ibisukika.

Icupa rinini rifite umufuniko utukura, rya abezole, ririmo umuti ukoreshwa bari kuvura amatungo, riteretse hasi ku makaro y'umweru.

Igiti cy'umwembe kiri mu murima, hirya y'aho hakaba hari n'ibindi biti bitandukanye bikuze, uyu murima ukaba urimo ibindi byatsi bikiri bitoya, ariko iki giti akaba aricyo gikuze kiri muri uyu murima.

Igiti k'indimu cyumye amashami amwe n'amwe andi akaba ariho ibibabi kiri mu murima hirya y'aho hari ibindi byatsi byameze ku ruhande.

Ikibaya kinini kiriho umusozi urimo inzu ya kadasitere ifite amabati atukura, hakaba hari ibiti ndetse hakaba hari n'umurima urimo ibyatsi ndetse n'undi urimo ibigori.

Igihingwa cy'imwumbati kikiri gitoya, kiri mu murima, uwo umurima ukabarimo n'ibigorigori, hirya yaho hakaba hari insina ndetse zifite n'ibirere, hakaba ahantu hadahinze.

Umurima uhinze ukaba urimo igihingwa k'umwumbati, iyo myumbati ikaba ari myinshi, ikabaifite ibibabi byinshi kandi ikaba ifite n'ibara ry'icyatsi.

Ishyamba rinini, kandi ryinshi. ririmo ibiti bigiye bitandukanye byakuze, ibihuru, ndetse n'ubwoko bwinshi bw'ibiti, bugiye butandukanye.

Umusozi ugizwe n'ibiti byinshi bitandukanye higanjemo ibiti bya avoka, ibiti by'imyembe, hakaba kandi hari n'agace gato katariho ibyo biti ahubwo hakaba hariho ibihingwa bisanzwe.

Umurima uhinzemo imboga, hakaba harimo imihembezo ndetse n'imigozi, ifasha bihingwa ko rizamukiraho, umurima akaba ari munini, ku mpera zawo ukikijwe n'ibiti.

Umukozi urimo ukorera izi mboga zigizwe n'amabara menshi, umutuku umweru, umuhondo ndetse n'andi mabara agiye atandukanye, akaba afite isuka yambaye imyenda yabugenewe yo gukora mu bijyanye n'imboga.

Umudamu uri mu murima windabo, indabo ndende, hakaba hari indabo zarabye z'umutuku, yambaye igitambaro mu mutwe cy'umukara ndetse n'itawuririya y'icyatsi.

Voka bahanuye, ziri hamwe, zigera muri cumi n'ebyiri, zifite ibara ry'icyatsi, zikaba ziri mu gikarito, kijya gusa umuhondo.

Umurima munini uhinzemo imboga ukaba urimo sisiteme zikoreshwa mu kuhira, iyi sisiteme bakoresha akaba ariyo twita sipurinkila irigeshoni sisitemu.

Umuntu w'umusore uhagaze mu murima urimo ibihingwa, hakurya y'uwo murima hari insina, akaba afitetiyo yifashisha arimo kuhira bino bihingwa biri mu murima.

Umwana uri mu murima w'ibigori bikiri bito, arimo aruhira akoresheje itiyo, amazi akagenda akagera ku gihingwa, azi reyini fa.

Umurima urimo ibigori, harimo n'abahinzi bagera kuri bane, ibigori bikiri bitoya, bakaba bakoreshamo sisiteme ya, irigeshoni, yitwa senta pivoti irigeshoni sisiteme.

Icyuzi kiri hagati gikikijwe n'ibyatsi byinshi, hakurya yaho hakaba hari ishyamba kandi icyo cyuzi kikaba kirimo amafi.

Inka enye ziri mu kiraro zose ziri kureba hanze, zambaye amaherena, ziri mu kiraro cyubakishije ibyuma, ebyiri zasohoye umutwe hanze zireba aho zirira.

Umuntu ufite urupapuro, ruriho ibihingwa ndetse n'abantu, ari kugenda asobanura ibintu bijyanye n'ibihingwa ndetse n'imbuto z'ibigori, asobanura ku musaruro wabyo.

Uruvangitiranye rw'ibishyimbo, bigiye bitandukanyije amabara ndetse n'ubwoko, harimo iby'umutuku, iby'umukara, iby'icyatsi, iby'umweru ndetse n'andi mabara menshi atandukanye.

Ibishyimbo biri hamwe bivangavanze bifite amabara agiye atandukanye, hariho ibara ry'umutuku, umweruru, icyatsi, umukara ndetse n'ayandi mabara.

Abaganga bari kwiga kudoda, bari kwigira ku mbeba, bafite imikasi, bambaye impuzankano zabugenewe, bambaye ga, bafite mayikorosofuti ndetse bambaye n'ingofero mu mutwe.

Abantu bagera kuri batandatu bose bambaye amasarubeti atandukanye, hari abambaye ay'ubururu bagera kuri bane, umwe yambaye isarubeti y'icyatsi, undi yambaye kake bagiye kubangiriza inka.

Inka nyinshi ziragiwe ziri kuririsha, hirya y'aho ziri kurishiriza hari ishyamba, iryo shyamba ririmo ibihuru byinshi ndetse n'aho ziri harimo ibyatsi ndetse n'ibindi bitandukanye.